Ni ibikoresho umuntu yifashisha arimo gushushanya, ibyo bita amarate, harimo rati ihagaze, harimo irati iri tiriyango, tarapeziyamu .

Ni abanyeshuri, bamwe bambaye uniform abandi batambaye uniform bose bahagaze hamwe, bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru bamwe, abandi bambaye inkweto z'umukara abandi bambaye inkweto zisanzwe.

Ni abanyeshuri bari mu ishuri, umwe yicaye ku meza abandi bari kumuganiriza, afite ikaramu abandi barahagaze, bakikijwe n'amadirishya n'ibikuta bifite urugi.

Ni ibikoresho abanyeshuri bifashisha bari kwiga, hasi hari sima, hejuru hakaba ikibambasi, harimo inkono n'umufuka bifashisha mu kwiga.

Ah! I'm looking some tools using traditional modern. Some tools want using letters: e, I, u,and r.

Ni ikigo cya yunivaziti cyangwa TVET, kirimo abanyeshuri barimo gutaha, harimo porotaye, harimo ibiti, hariyo jaride, hari aho bajya bashyira imodoka cyangwa moto kugira ngo zitanyagirwa.